Ameza ateretseho amazi yo kunywa ndetse hakaba hari abantu bayazengurutse. Harimo abari gukora raporo, abandi na bo bakaba bategereje ubufasha. Aha ngaha ni kwa muganga, ahatangirwa serivisi zihuse.

Mu bitaro kwa muganga uzatanga ibyuma bigezweho by'ikoranabuhanga, bifasha abaganga gusuzuma abarwayi ndetse no kumenya imiti baribuzeze guhabwa.

Hari umuryango utabara imbabare uwo muryango ukaba ukorera mu Rwanda abakozi bawo bambara imyenda y'umutuku iriho agasaraba iyo hagize umuntu ugira ikibazo bahita bihuta bagatabara.

Umuganga w'umugore ari kuvura umurwayi. Uwo murwayi ararembye cyane, ndetse uko bigaragara bari kumuha serumu kugira ngo abashe kuzamuka.

Mu bitaro kwa muganga haba hari ibitanda abarwayi baryamishwaho kugira ngo bitabweho n'abaganga, ibyo bitanda biba biteye neza ku buryo umuntu abiryamaho ntagire ikibazo icyo ari cyo cyose.

Croix rouge ni umuryango utabara imbabare ukorera mu gihugu cy'u Rwanda, bagira inifomo, aho bambara amajiri y'umutuku ariho ikimenyetso cy'umusaraba, batabara aho rukomeye, ahaguye umuntu ugize ikibazo ndetse batanga amaraso, afasha indembe kwa muganga.

Umurwayi urembye cyane ajyanwa mu cyumba kihariye ndetse agahabwa serivisi zose z'ibanze zishobora kumufasha kumererwa neza, ndetse abaganga bakamuba hafi mu buryo bushoboka.

Umuntu yari ari mu bantu benshi none yikubise hasi. Abashinzwe gutabara imbabare, baramufashe bamujyanye ku modoka kugira ngo imwihukutane kwa muganga.

Abaganga barasanana ndetse bakita ku muntu uwo ari we wese. Gusa iyo umurwayi arembye cyane, bisaba ko bamukorera ubutabazi bwihuse ku buryo baza ari benshi kugira ngo bamwiteho maze barebe ko batabara amagara ye.

Abantu bafite ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu buganga, bakaba barimo kuvura umurwayi urembye cyane. bakaba ari abaganga benshi bashoboka, aho bari kugenda bakora amawoperasiyo.

Abantu bambaye imipira isa bose bakaba bambaye n'imiyenda y'umukara hasi bari mu kurahira kugira ngo bajye mu nshingano batorewe, bakaba bari imbere y'itente ifite amabara y'umweru, umuhondo n'ubururu.

Kwa muganga ni ahantu umurwayi ajya arembye bakamusanasana iminsi ikicuma, ni yo mpamvu abaganga bakora uko bashoboye, bakita ku murwayi uwo ari we wese.

Hari ibyumba biba byaragenewe gutangirwamo ubuvuzi ku bantu barembye ku buryo bajyanwa ku gitanda bakaryamirwa maze abaganga b'inzobere bakaza bakabasuzuma ndetse bakabavura.

Umugabo ahagaze imbere y'abantu benshi akaba arimo kubagezaho imbwirwaruhame, bicaye munsi y'igiti gifite amashami manini maremare ndetse bakaba bose barimo abambaye imyenda y'umweru.

Ikigo nderabuzima cya Tabawe ni ikigo cyakira abarwayi batari bakeya ndetse abahagana bavuga yuko serivisi bahabwa inoze kuko umurwayi wese aravurwa ndetse akitabwaho.

Inyubako nziza cyane yitawemo n'abantu babiri. Umwe ni umuganga, undi ni umurwayi. Muganga arimo gusomera umuturage imiti mu gitabo uburyo yajya ayikoresha.

Abaganga bakoze inama, bakaba bari kugenda bungurana ibitekerezo, ku buryo bashobora gufatanya na kaminuza y'u Rwanda kugira ngo bashyireho ubwishingizi bwajya bufasha abanyeshuri bayigamo.

Umurwayi yazanwe kwa muganga. Muganga amaze kumutera urushinge ndetse uko bigaragara rwamuriye, yashinyirije. Abandi barwayi na bo barategereje ngo bagerweho maze bavurwe batahe.

Abaganga barimo kuvura umurwayi urembye, uyu murwayi aryamishijwe mu bitanda byiza cyane, abaganga bose baretse ibyo barimo maze baza kumwitaho, uko bigaragara bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye n'amataburiya kugira ngo uyu murwayi ataza kubanduza icyorezo.

Abantu barimo gukora isuzuma rigiye ritandukanye, muri laboratwari mu by'ukuri bikaba ari ibintu bigaragaza ko muganga akora ibintu yitondeye kandi yabanje kumenya neza ko nta ngaruka bifite ku murwayi.

Umuganga w'umukobwa arimo gufata urushinge akarujomba aho akura umuti kugira ngo ajye kurutera umurwayi. Uko bigaragara ari kubanza gusuzuma muri laboratwari ngo arebe ko ibyo agiye gukora nta ngaruka biri bugire ku murwayi.

Umuganga afite igipimo, kikaba kirimo uturaso amaze gufata umurwayi, akaba agiye kudusuzuma kugira ngo amenye indwara arwaye.

Umuntu wambaye ga nziza z'umweru, akaba ashinzwe ibigendanye n'ubuvuzi. Ari muri laboratwari, ari gupima ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo agire ubumenyi buhagije.

Abantu bigaragara yuko bari mu bushakashatsi bari imbere y'ameza, hateretse mudasobwa ku meza ndetse bakaba barimo kugenda bazikanda, umwe muri bo akaba ari gukoresha icyuma k'ikoranabuhanga.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, arimo gufata ku tuntu twifashishwa mu buganga ndetse ahari akaba ari mu isuzumiro. Hari ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga bihari.

Uabo bigaragara ko ari kwa muganga, barimo kumutera urushinge ndetse yazamuye umupira, akaba ari kwerekana ikizigira ndetse muganga na we yambaye uturindantoki, afashe urushinge arimo kumujomba.

Abana biga mu mashuri y'inshuke. Bashyiriweho gahunda yo guhabwa igikoma kugira ngo bajye bamera neza ndetse bagire imitekerereze myiza. Iki gikoma bahabwa kiba kirimo intungamubiri nyinshi.

Umuganga arimo kuvura umwana mutoya. Imbere ye hari ameza ateretseho ijage. Hariho na telefone ye irambitse. Hari ibitabo bibiri umurwayi aribuze kuzurizwamo.

Ababyeyi bafite abana babo bari kubonsa, bakaba bahurijwe hamwe kugira ngo bagirwe inama ku bigendanye n'imikorere y'ubwonko bw'abana ndetse aba babyeyi bose bakaba bambaye imipira isa yanditseho amagambo amwe.

Abantu bicaye ahantu mu rucaca, bakaba ari abajyanama b'ubuzima ndetse bakaba barimo kungurana inama mu buryo butandukanye bashobora guhindura imyumvire y'abaturage.

Abantu bari mu nama bakaba ari abaturage baje kumva ibyo abajyanama b'ubuzima bababwira, hari abaganga bari inyuma nabo bambaye amataburiya y'umweru, bakaba barimo kugenda bagira inama ababyeyi.

Abatu bicaye iruhande rw'abaganga barimo kugenda bagirwa inama ku bigendanye n'imitekerereze, ndetse bakaba ari benshi bagiye bakora amatsinda atandukanye.

Ababyeyi bazindukiye ku mujyanama w'ubuzima, bakaba baje kugisha inama, ku bibazo bigendanye n'imitekerereze yabo. Abantu bageze mu za bukuru bakunze guhura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo.

Abanyeshuri bambaye imipira yanditseho amagambo inyuma umugongo. Ikaba yanditsweho amagambo asobanura umunsi wo kwirinda ndetse no kwita ku ndwara zifata mu mutwe.

Abantu bicaye mu nyubako nziza cyane, isize irangiriza n'ibara ry'ivu ndetse hakaba hari amakaro asashe hasi, bose bakaba bari mu nama yiga ku bibazo bigendanye n'imitekerereze yo mu mutwe.

Abantu benshi cyane bicaye mu itente. Iryo tente rikaba riteye ahantu hari ibyatsi byiza cyane na byo bitoshye. Uko bigaragara bari mu nama. Iyo nama ikaba iri kwiga ku bibazo bitandukanye byo mu mutwe.

Imbaga y'abaturage bahurijwe hamwe ahantu mu kibuga, bakaba barimo kuganirizwa n'umuyobozi ushinzwe umutekano ishami rya polisi, akaba ari kubaganiriza ku bibazo bigendanye n'imitekerereze yo mu bwonko.

Umugabo urimo kwandika akaba ari muri butike ye, ikaba igizwe n'ibicuruzwa bishingiye ku miti igiye itandukanye ndetse ivura abantu.

Abantu bicaye muri botiki, iyo botki ikaba icuruza imiti abantu banywa kugira ngo bivure indwara zigiye zitandukanye, uko bigaragara hari umukiriya uje kugura imiti ndetse akaba arimo kwerekana iyo ashaka.

Ga z'umweru zirambitse hasi kuri sima zikaba zambarwa n'umuganga ugiye gutanga imiti ndetse by'umwihariko bikaba bimufasha kwirinda kuba yakanduza iyo miti aba agiye gutanga cyangwa se ngo we yandure bitewe n'inshinge arimo kugenda afata.

Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho bitandukanye. Birimo amacupa y'umukara, arimo imiti ndetse hakaba hari n'ibindi bintu by'ibikarito n'amacupa bibitswemo ibinini.

Indobo zishushanyijeho ihene. Ni indobo nini cyane, zigerekeranyije, zifite ibara ry'umweru ndetse zikaba zifite n'irindi bara ry'icyatsi, ryanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Inyubako nziza cyane ishushanyijeho icyapa kiri hejuru ku ibara ry'umweru, kikaba kigaragaza ko hakoreramo farumasi. Iyo farumasi ikaba icuruza imiti y'amoko yose.

Umuntu ufite indangururamajwi akaba arimo kugenda ageza ku bamukurikiye insanganyamatsiko ikaba iri kuvuga ku bukangurambaga bwo kwita ku buzima bwabereye mu Mudugudu.

Abantu benshi cyane bicaye mu nyubako ndetse bakaba bafite amazi yo kunywa, bambaye amakote abandi bambaye amashati n'amakaruvati, bikaba bigaragara ko bari mu nama ndetse bakaba bari mu bukangurambaga runaka.

Inyubako nziza cyane irimo abantu bahurijwe hamwe, bakaba bari kugenda bagirwari inama zigiye zitandukanye, ku kwita ku muryango.

Imiti gakondo n' imiti itegurwa n'abaganga babigize umwuga ndetse bakaba basigaye bavura indwara zigiye zitandukanye zirimo n'izikomeye, nka diyabete n'imivuduko y'amaraso.

Imiyenzi ni ibiti bikunze kwifashishwa mu gukora uruzitiro mu by'ukuri bikaba ari ibiti bikora uruzitiro neza cyane. Hari igihe uzasanga ingo nyinshi zabikoresheje.

Umurima urimo ibintu bigiye bitandukanye. Hakaba hari ibiti bizamuye hejuru mu biti, mu mababi harimo inzuki nyinshi cyane zirunzemo.

Umuntu bigaragara ko ari umugore, afite agakapu ku ntoki ndetse akaba arimo gusoroma umuravumba. Umuramvumba ni ikimera gikunze kwifashishwa n'abantu benshi bakora umuti woroheje.

Umuravumba ni ikimera gikunze kubonekamo umuti uvura indwara nyinshi, gishobora kuvura inkorora, ibicurane, mu nda ndetse no mu mihogo, iki gihingwa kikaba kidakunze kuboneka mu buryo bworoshye kuko nta hantu gihingwa bizwi.

Umuntu w'umugore ufite indangururamajwi, akaba afite icupa, iryo cupa rikaba ripfundiki umupfundikizo w'umuhondo. Hakaba harimo umuti wa gakondo. Arimo gusobanura uburyo ukoreshwa.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bumaze gutera imbere ku rwego rwo hejuru ku buryo rimwe na rimwe ushobora kugenda ugasanga hari inyubako zubatswe zikorerwamo ubuvuzi mu buryo buzwi na leta.

Inyubako yo kwa muganga, ifite icyumba cyiza cyane kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga rigiye ritandukanye. Hakaba harimo ibyuma bifasha abaganga gusuzuma umurwayi, umubiri we wose.

Ubuvuzi gakondo n'ubuvuzi bukorwa n'abaganga babigize umwuga, bakaba bafata ibyatsi ndetse n'ibimera bigiye bitandukanye bakabivangavanga bakabisegura bagakuramo umuti uvura indwara zitandukanye.

Ibintu byinshi cyane biri mu nyubako, ikaba ari inyubako icuruza imiti y'amatungo, hakaba hacururizwa imiti y'ingurube, inka, ihene ndetse n'izindi nyamaswa zororerwa mu rugo.

Umugabo bigaragara ko afite ikayi nini cyane yitwa rusengo, arimo kwigisha abaturage ndetse akaba ari n'umuganga uvura amarwara atandukanye.

Abantu bigaragara ko ari abajyanama b'ubuzima barimo gufata ifoto y'urwibutso nyuma yo gukora inama yabereye ku kigo nderabuzima kugira ngo bahugurwe ku buryo bushya bwo kwita ku barwayi bagenda bagaragara mu Midugudu yabo.